Abagore ndetse n'abagabo bicaye mu twatsi, imbere yabo hari ushinzwe umutekano wambaye impuzankano iri mu ibara ry'icyatsi.

Umugore urimo aravugira mu ndangururamajwi, inyuma ye hakaba hari abantu, bicaye mu ntebe, zirimo imisego begamamo.

Abantu bicaye mu nzu mberabyombi, muri abantu hakaba harimo abagore ndetse n'abagabo, imbere y'abo bantu hakaba hari ameza, ateretseho amacupa arimo amazi yo kunywa.

Umugabo n'umugore bahagaze bombi bakaba barimo baravugira mu ndangururamajwi. Umugore akaba yambaye umupira usa n'umuhondo imbere hakaba hari ameza arambuyeho igitambaro cy'umweru.

Urubyiruko ruri mu mahugurwa, aho urwo rubyiruko, harimo abasore ndetse n'abakobwa, bombi bakaba bambaye imyambaro y'imipira iri mu ibara ry'umweru, iriho ibendera ry'igihugu, imbere yabo ku meza hakaba hateretseho amacupa arimo amazi yo kunywa.

Abantu bicaye ku ntebe zisa umweru, imbere yabo hakaba hari ameza arambuyeho igitambaro cy'umweru, kuri ayo meza kandi hakaba hateretseho za mudasobwa hariho n'amacupa arimo icyo kunywa.

Umugore urimo aratanga imbwirwaruhame, uyu mugore akaba arimo aravugira mu ndangururamajwi akaba yambaye ijipo y'umukara n'ishati irimo ibara ry'umukara n'umweru n'inkweto z'umukara.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inama, muri abo bantu bakaba barimo umugabo wambaye amataratara n'ishati y'umweru, imbere yabo hakaba hari ameza ariho za mudasobwa ndetse n'amacupa arimo amazi yo kunywa bombi bakaba bicaye mu ntebe z'imifariso zisa umukara.

Umugabo wambaye amataratara n'ikote ry'umukara, imbere ye hari agakoresho kifashishwa, baterekamo ibitabo, akaba arimo aravugira mu ndangururamajwi.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inzu, imbere yabo hakaba hari ku meza asa umukara, kuri yo hakaba hateretseho amacupa arimo amazi yo kunywa.

Abantu bicaye mu ntebe zisa umutuku begamamo, imbere yabo hakaba hari ameza arambuyeho igitambaro gisa n'umweru, hateretseho amacupa arimo amazi yo kunywa.

abantu bicaye mu nzu mberabyombi, imbere yabo akaba ari ameza asize irangi ry'mutuku, kuri ayo meza hakaba hariho za mudasobwa ndetse n'amacupa arimo amazi, bakaba bicaye mu ntebe zisa n'umukara.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inama, abo bantu bakaba bicaye mu ntebe zifite ibitambaro bisa umweru, muri abo bantu hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inama, imbere yabo hakaba hari indangururamajwi, hakaba hari n'ameza asize irangi ry'umutuku, kuri ayo meza, hakaba hateretseho amacupa ariho amazi yo kunywa.

Abagabo bicaye mu ntebe z'umukara, umugabo umwe akaba yambaye ishati y'umweru, afite indangururamajwi mu ntoki, imbere yabo hakaba hari ameza asa umwe, ateretseho amacupa arimo ibyo kunywa.

Umugore wambaye amataratara urimo kuvugira mu ndangururamajwi, inyuma ye hakaba hari abantu bicaye mu ntebe z'umweru mu ihema risa umweru.

Urubyiruko ruri mu nzu mbera byombi; urwo rubyiruko rukaba rurimo abakobwa ndetse n'abasore, aho bamwe muri bo bambaye imipira y'umweru abandi bambaye imipira y'umukara. Imbere yabo hakaba hari ameza arambuyeho igitambaro gisa n'icyatsi. Kuri ayo meza hakaba hateretseho amacupa arimo amazi yo kunywa.

Abantu bicaye mu cyumba, imbere yabo hari ameza. Kuri ayo meza hakaba hariho za mudasobwa barimo barakoresha, imbere yabo hakaba hari undi wicaye mu ntebe y'imisego isa umukara.

Abantu bicaye mu cyumba kirimo amatara arimo kwaka, imbere yabo hakaba hari ameza ateretseho za mudasobwa ndetse ariho n'amacupa arimo amazi yo kunywa.

Abantu bicaye mu nzu mberabyombi, bakaba bicaye mu ntebe zisa umukara begamamo, imbere yabo hakaba hari ameza, kuri ayo meza hakaba hateretseho za mudasobwa ndetse n'amacupa arimo amazi yo kunywa.

Abagabo bicaye mu cyumba cy'inama imbere yabo bagabo hakaba hari ameza asize irangi ry'mutuku kuri ayo meza hakaba hariho amacupa arimo amazi ndetse bakaba bafite na za mudasobwa imbere yabo.

Umugabo wambaye ikote ndetse n'ishati y'umweru, akaba ahagaze arimo aravugira mu ndangururamajwi, inyuma ye hakaba hari icyapa cyamamaza.

Abantu bicaye mu cyumba bakaba bicaye mu ntebe zisa umutuku imbere yabo hakaba hari ameza arambuyeho igitambaro cy'umukara, bakaba bambaye imipira y'umweru kuri ayo meza hakaba hateretseho amacupa arimo amazi.

Abagore batatu, bicaye mu ntebe z'imisego bigamamo zisa umukara, imbere yabo hakaba hari ameza afite ibara ry'umutuku, ateretseho amacupa arimo amazi.

Abantu bicaye mu cyumba gisize irangi ry'umweru, kirimo intebe z'umukara zirimo imisego begamamo, imbere yabo ku meza hakaba hateretseho za mudasobwa.

Abantu bicaye mu nzu mberabyombi, bakaba bicaye mu ntebe z'imisego zisa umukara, imbere yabo hakaba hari ameza atetseho amacupa arimo amazi yo kunywa ndetse na za mudasobwa.

Abantu benshi bicaye mutwatsi, imbere yabo hkaba hari ihema ryicayemo abantu, rifite ibara ry'umweru, imbere yabo hakaba hari inzu isakaje amabati asa n'umutuku.

Icyumba cyicayemo abagore ndetse n'abagabo, bombi bakaba bicaye mu ntebe zisa umukara, zirimo imisego, imbere yabo hakaba hari ameza ateretseho amacupa arimo icyo kunywa.

Abaturage bari mu nteko, muri abo baturage hakaba harimo abicaye ku giti, abandi bakaba bicaye ku ntebe z'imbaho, abo baturage bakaba bateze amatwi umugore urimo kubabwira imbwirwaruhame.

Abantu bari mu nteko abo bantu hakaba harimo abicaye hasi mutwatsi harimo n'abandi bicaye ku ntebe hakaba harimo n'abahagaze abo bantu bakaba barimo kumva umuntu urimo kubabwira imbwirwaruhame.

Icyumba cyicayemo abantu, imbere yabo hakaba hari ameza arambuyeho igitambaro gisa n'umweru, kuri ayo meza hakaba hateretseho za mudasobwa ndetse n'amacupa arimo icyo kunywa.

Abasore bari kwandika imbere yabo hakaba hari ameza, kuri ayo meza hakaba hariho amacupa arimo amazi, inyuma yaho hakaba hari n'abandi bantu harimo n'undi urimo arafotora.

Umugore w'umugabo wicaye mu ntebe z'umukara zirimo imisego begamamo, imbere yabo hakaba hari ameza asa umutuku ndetse ariho indangururamajwi, bakaba barimo gukoresha za mudasobwa kuri ayo meza hakaba hariho amacupa arimo amazi yo kunywa.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inama, mbere yabo hakaba hari ameza asa umutuku, kuri ayo meza hakaba hariho amacupa arimo amazi yo kunywa ndetse na za mudasobwa.

Abantu benshi harimo; abagore ndetse n'abagabo, abo bantu bakaba bicaye ku ntebe z'umweru za palasitike, muri abo bantu bicaye imbere hakaba harimo umupolisi.

Icyumba cyicayemo abantu, abagore ndetse n'abagabo, imbere yabo hakaba hari ameza ateretseho ibikombe birimo icyo kunywa ndetse n'amasahani agiye ariho ibyo kurya.

Abantu bicaye ku ntebe begamamo z'imisego izo ntebe zikaba zifite ibara ry'umukara, imbere y'abo bantu hakaba hari ameza kuri ayo meza hakaba harateretseho mudasobwa ndetse n'amacupa arimo amazi yo kunywa.

Abantu batatu bicaye mu ntebe z'imisego zisa n'umukara, muri abo bantu hakaba harimo abagore babiri ndetse n'umugabo umwe, imbere yabo hakaba hari ameza asa n'umutuku, kuri ayo meza hakaba hariho indangururamajwi ndetse na za mudasobwa.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inama, imbere yabo hakaba hari ameza asa umutuku, ku meza hakaba hateretseho amacupa arimo amazi ndetse hakaba hari n'abafite za mudasobwa imbere yabo ku meza.

Umugabo urimo kuvuga imbwirwaruhame, umugabo akaba afite indangururamajwi mu ntoki arimo kuvugiramo, mu bari kumwumva hakaba harimo abagore ndetse n'abagabo mbere yabo hakaba hari ameza ateretseho amazi yo kunywa, kuri ayo meza hakaba harambuyeho ibitambaro by'umweru.

Abantu bicaye imbere hakaba hari ameza arambuyeho igitambaro cy'umweru, kuri ayo meza hakaba hateretseho amacupa arimo amazi yo kunywa.

Abagabo bicaye mu nzu mberabyombi, bano bagabo bakaba bicaye mu ntebe zisa umukara, imbere yabo hakaba hari ameza kw'ayo meza hakaba hateretseho amacupa arimo amazi yo kunywa.

Abantu bicaye mu nzu mberabyombi, imbere yabo hakaba hari ameza asa n'umutuku kuri ayo meza akaba ateretseho amacupa arimo amazi yo kunywa.

Umugabo wambaye ishati y'umweru ufite terefone mu ntoki isa n'umweru akaba yambaye ingofero ifite ibara ry'umukara.

Abagabo babiri bicaye ku ntebe, imbere yabo hakaba hari ameza, umugabo umwe akaba arimo arakoresha mudasobwa iteretse ku meza, iruhande hakaba hari undi mugabo wambaye ingofero y'umukara.

Inzu isize irangi ry'umweru inyuma, ikaba ifite urugi rukinguye rukoze mu byuma rusize irangi ry'umweru, hejuru y'uwo muryango hakaba hari icyapa gifite ubuso bw'ubururu, cyanditsemo amagambo ari mu ibara ry'umweru.

Umunara w'ikigo cy'itumanaho, umunara ukaba ushinzwe gutanga rezo kugira ngo itumanaho rigende neza, uwo munara ukaba ukozwe mu byuma bisize irange ry'umweru n'iry'umutuku.

Umugore wambaye ingofero y'icyatsi. Uyu mugore ukaba arimo arakoresha mudasobwa, imbere ye hakaba hari undi wambaye ishati y'umweru, nawe urimo akoresha mudasobwa.

Umunara w'ikigo cy'itumanaho ushinzwe gutanga rezo, kugira ngo itumanaho rigende neza uyu munara ukaba ufite utundi dukoresho kuruhande tuzana amaherezo turi mw'ibara ry'umweru.

Umusore uhagaze wambaye umupira w'umweru, uwo mupira ukaba uriho amagambo yanditseho irembo, yanditse mu ibara ry'ubururu, iruhande y'uyu umuntu hakaba hari ameza ariho za mudasobwa.

Umunara w'ikigo k'itumanaho, uyu munara ukaba ukozwe mu byuma bisize irangi ry'umutuku ndetse n'iry'umweru, ukaba ukikijwe n'ibyuma bisize irangi ry'umweru.

Abakozi b'ikigo cy'itumanaho, bambaye impuzankano ifite ibara ry'icyatsi, imbere yabo hakaba hari umunara ukoze mu byuma bisize irangi ry'umutuku ndetse n'umweru.

Inzu ifite ibaraza ry'ubakishije amatafari ahiye, imbere yayo hakaba hari imodoka irimo iragenda, ifite ibara ry'umweru, iruhande yayo haparitse ipikipiki.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri imbere yabo hakaba hari ameza ateretseho za mudasobwa abanyeshuri bakaba bambaye impuzankano y'ishati y'umweru n'umwambaro wo hasi usa umukara.

Igikoresho gikozwe mu byuma, cyifashishwa mu gufata insinga zitwaye ingufu z'amashanyarazi, izo nsinga zikaba nta gishishwa zifite.

Igikoresho cyifashishwa mu gufata insinga zitwaye ingufu nyinshi z'amashanyarazi, icyo gikoresho kikaba giteretseho ikindi gikoresho cyifashishwa mu kongera cyangwa kugabanya umuriro w'amashanyarazi.

Ahakenewe ingufu nyinshi z'amashanyarazi hakaba hari igikoresho gishinze mu butaka, cyifashishwa mu gufata insinga zitwaye izo ngufu, iruhande y'icyo gikoresho hakaba hari umuntu wambaye ingofero y'umutuku.

Imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ifite ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi, mu ibara ry'umweru hakaba handitsemo amagambo ari mu ibara ry'icyatsi, hakuno yayo hakaba hari abanyonzi bari ku magare.

Itara ryo ku muhanda, iri tara rikaba rifashe ku cyuma, iki cyuma kikaba gifashe n'insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi ziwugeza ku baturage, izi nsinga zikaba zifite igishishwa cy'umukara.

Ahakusanyirizwa umuriro w'amashanyarazi, iki kigo kikaba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, aho harimo kimwe cyifashishwa mu kongera cyangwa kugabanya ingufu z'amashanyarazi.

Abatekinisiye barimo gukora ku gikoresho cyifashishwa mu kongera cyangwa kugabanya umuriro w'amashanyarazi, muri abo batekinisiye hakaba harimo urimo kurira ku rwego, wambaye ingofero y'umuhondo, ndetse n'isarubeti ifite ibara ry'ubururu.

Igipangu cyubakishije amafari ahiye, iki gipangu gifite amatara hejuru yacyo, inyuma y'icyo gipangu hakaba hari igikoresho kifashishwa mu gutwara insinga zitwaye umuriro w'amashanyarazi ziwugeza ku baturage, kuri icyo gikoresho kandi hakaba hari n'itara ryo ku muhanda.

Inzu ifite igipangu, kiriho urugi rusize irangi ry'umukara, rukaba rukoze mu byuma, imbere hakaba hashinze igiti, cyifashishwa mu gufata insinga zitwaye umuriro w'amashanyarazi.

Agakoresho kifashishwa mu kongera cyangwa kugabanya umuriro w'amashanyarazi. Icyo gikoresho kikaba kiri mu byuma bishinzwe gufata insinga zitwaye umuriro uhagije w'amashanyarazi.

Umukozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ingufu z'amashanyarazi ,uyu mukozi akaba yuriye igikoresho gishinzwe gufata insinga zitwaye umuriro w'amashanyarazi. Uyu mukozi akaba yambaye umwambaro w'ubururu n'undi mwambaro hejuru ufite ibara ry'umuhondo akaba yambaye n'ingofero y'umweru.

Imodoka itwara abantu mu buryo bwa rusange isize irangi ry'umweru iruhande rw'iyo modoka hakaba hari igikoresho cyifashishwa mu gufata itara ryo ku muhanda kuri icyo gikoresho kandi hakaba haciye n'itsinga zitwara umuriro w'amashanyarazi ziwugeza ku baturage.

Inzu ruhara yayo hashinze igiti, cyifashishwa mu gufata insinga zitwaye umuriro w'amashanyarazi, ziwugeza ku baturage.

Umunara w'igo cy'itumanaho ushinzwe gutanga rezo kugira ngo itumanaho rigende neza. uwo munara ukaba ukozwe mu byuma biteye irangi ry'umutuku n'ibindi biteye irangi ry'mweru.

Umukozi ukorera ikigo gishinzwe ingufu m'u Rwanda, akaba yuriye urwego arimo arakora ku rusinga, urwo rusinga rukaba rufite igishishwa cy'umukara rugeza umuriro ku baturage.

Igorofa imbere yaryo ririho itara ryo ku muhanda rishinzwe kubonesha, ku gikoresho gifashe iryo tara hakaba hanyuzeho insinga zigeza umuriro ku baturage, izo nsinga zikaba zifite igishishwa cy'umukara.

Umuhanda w'ibisate bibiri, muri uwo muhanda hagati hakaba harimo umurongo urombereje w'ibara ry'umweru, mu nkengero z'umuhanda hakaba hari amatara ashinzwe kubonesha, ayo matara akaba afashe ku byuma birebire bisize irangi ry'umweru.

Itara ryo kumuhanda iryo tara rikaba rifashe ku cyuma icyo cyuma kikaba gifa n'insinga zitwara umuriro wamashanyarazi zazinga zikaba zifite igishushwa cy'umukara imbere y'icyapa hakaba hari icyapa igipa rimenyesha cy cyapa kikaba gifite umuzenguruko w'umutuku ishusho ya mpande eshatu ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara.

Ahakenewe ingufu nyinshi zihagije z'amashanyarazi, hakaba hari n'itara ryo ku muhanda, iryo tara rikaba rifashe ku cyuma, icyo cyuma kikaba kivaho insinga zitwaye umuriro w'amashanyarazi ziwugeza ku baturage.

Igikoresho cyo mu mashanyarazi, iki ikigikoresho kikaba cyifashishwa mu kongera cyangwa se kugabanya umuriro w'amashanyarazi, iki gikoresho kikaba gifite ibara risa n'umweru.

Inyubako ifite ubusitani imbere yayo inyubako ikaba ifite amabaraza agiye akikijwe n'ibyuma bisize irangi ryumweru.

Inzu isakaje amabati y'umweru, ikaba iteye irange ry'umuhondo, inyuma y'iyo nzu, hakaba hari ibyapa bibiri, kimwe gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ikirango cy'umweru n'ikindi gifite umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara ndetse n'ishusho y'uruziga.

Igorofa rifite inkingi zisize irangi ry'umweru, iryo gorofa rikaba rifite ubusitani imbere, imbere yaryo kandi hakaba hashashe amabuye, ku ibaraza ry'iyo gorofa hakaba hari umukobwa wambaye umupira w'umweru n'ikabutura y'umukara.

Umugororwa uhagaze wambaye impuzankano y'abagororwa, inyuma ye hakaba hahagaze imodoka ifite ibara risa n'umweru.

Abagororwa bambaye amashati ndetse n'amakabutura biri mu mabara y'iroza, abagororwa bakaba bahagaze imbere y'inyubako y'urukiko.

Igazeti ya Leta yasohotse ku itariki makumyabiri z'ukwa cyenda ibihumbi bibiri na cumi n'umunani, ikaba igizwe n'ingingo zitandukanye zanditse mu ndimi eshatu arizo: Ikinyarwanda, Icyongereza ndetse n'Igifaransa.

Umugabo wambaye ikanzu y'umutuku imbere harimo ibara ry'umukara n'umweru, uyu mugabo akaba n'imbere yambariyemo ishati isa umweru.

Umugororwa urimo gusoma igitabo, uwo mugororwa akaba yambaye imyenda iri mu ibara ry'iroza, iruhande hakaba hari abandi bantu baje kumva urubanza.

Umugabo wambaye ikanzu y'umutuku umanitse ikiganza cye cy'iburyo, akaba afashe ku ibendera ry'gihugu cy'u Rwanda yambaye n'ingofero y'umukara.

Abagabo babiri ndetse n'abagore babiri bahagaze, bombi bakaba bambaye amakanzu afite ibara ry'umukara, imbere mu gatuza hakaba hari ibara ry'umweru.

Igazeti ya leta, yasohotse ku itariki makumyabiri z'ukwa kenda ibihumbi bibiri na cumi n'umunani, iyi gazeti ikaba igizwe n'ingingo zitandukanye, aho izo ngingo zanditse mu ndimi eshatu arizo: ikinyarwanda, icyongereza, ndetse n'igifaransa.

Abapolisi babiri batwaye umugore wambaye amapingu, inyuma yabo hakaba hari abandi bapolisi ndetse n'umugabo wambaye ikanzu y'umukara.

Abagabo n'abagore, bicaye mu ntebe begamamo, izo ntebe zisa umukara, bakaba bambaye udupfukamunwa, bakaba bafite na za mudasobwa barimo gukoresha.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inzu, imbere hakaba hari abantu babiri bicaye bambaye udupfukamunwa tw'ubururu, imbere yabo hakaba hari ameza asize irangi ry'umutuku kuri ayo meza hakaba hariho za mudasobwa barimo gukoresha n'amacupa arimo amazi.

Abantu bahagaze ku murongo muri abo bantu hakaba harimo n'abasirikare, hakaba harimo abagabo babiri bambaye karuvati z'umutuku makoti y'umukara ndetse n'amapantaro y'umukara, mu imbere bambariyemo amashati y'umweru.

Umugore wambaye ikanzu y'umukara umanitse ikiganza cy'iburyo, ufashe ku ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, akaba yambaye agapfukamunwa gafite ibara ry'ubururu.

Igazeti ya leta yasohotse mu matariki makumyabiri z'ukwacnda; ibihumbi bibiri na cumi n'umunani, ikaba igizwe n'ingingo zitandukanye zanditse mu ndimi eshatu arizo: Ikinyarwanda, Icyongereza ndetse n'Igifaransa.

Abagabo bambaye amakoti y'umukara ndetse n'amapantaro y'umukara bombi kandi bakambamo amashati y'umweru, bano bagabo bakaba barimo umwe wambaye karuvati y'umutuku, bakaba bafite igikoresho cyo mu ibara ry'umutuku barimo barahererekanya.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inama, abo bantu bombi bakaba bambaye imyambaro y'umukara kandi ikindi bombi bambaye udupfukamunwa tw'ubururu, imbere yabo hakaba hari ameza ateretseho za mudasobwa barimo barakoresha.

Igazeti ya leta yasohotse tariki makumyabiri z'ukwa cyenda ibihumbi bibiri na cumi n'umunani, iyi gazeti ikaba igizwe n'ingingo zanditse mu ndimi eshatu arizo Icyongereza, Ikinyarwanda ndetse n'Igifaransa.

Abagororwa b'igitsina gore babiri, iruhande yabo hakaba hari abagabo bambaye amakanzu y'umukara, afite ibara ry'umweru imbere mu gatuza, imbere yabo hakaba hari ameza ateretseho icupa ririmo amazi yo kunywa ndetse na mudasobwa.

Icyapa cyerekana inzira ijya mu igororero rya Gicumbi, aho icyo cyapa mu mpande hashinze ibyuma, hejuru hakaba hariho icyapa gifite ubuso bw'umweru, hakaba handikishijeho amagambo ari mu ibara ry'umukara.

Umugabo wambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru ndetse n'amataratara, akaba afite indangururamajwi mu ntoki arimo aravugiramo.

Abagororwa bahagaze munsi y'igiti, abagororwa bakaba bambaye amashati n'amakabutura yo mu ibara ry'iroza, iruhande yabo hakaba hari abantu babiri bicaye ku ntebe harimo umugabo wambaye imyambaro isa n'umukara.

Umugororwa wambaye impuzankano yo mu ibara ry'iroza akaba yambaye n'agapfukamunwa k'ubururu, yambaye n'amataratara, iruhande y'umugororwa hakaba hari undi mugabo wambaye agapfukamunwa k'umukara n'ikote ry'umukara, akaba ari gushyira mudasobwa mu gikapu.

Umugororwa urimo gusuhukanya n'undi mugabo wambaye ishati y'umweru, umugororwa akaba yambaye impuzankano yabo n'isaha mu kaboko.

Abagororwa batonze umurongo, bombi bakaba bambaye amakabutura n'amashati byo mu ibara ry'iroza, imbere yabo hakaba hari ushinzwe umutekano wabo, bakaba bambaye udupfukamunwa dusa ubururu.

Ikinyabiziga cya polisi y'u Rwanda gishinzwe kuzimya inkongi y'umuriro, aho umukozi ubishinzwe afite umupira agiye kuzimya inkongi y'umuriro, uwo mukozi akaba yambaye ingofero y'umutuku, iruhande hakaba ari undi muntu wambaye umupira w'umutuku.

Umupolisi ushinzwe umutekano w'umuhanda, iruhande hakaba harimo gutambuka ibinyabiziga birimo ipikipiki itwaye umuntu ndetse n'imodoka ifite ibara ry'umweru.

Icyumba gisize irangi ry'umweru, ku rukuta hakaba hariho igikoresho cyifashishwa, mu kuzimya inkongi y'umuriro, kikaba gifite ibara ry'umutuku.

Umupolisi uhagararanye n'umuturage bakaba bari ku ngeri z'umuhanda, aho umuturage yambaye umupira w'umweru mu ijosi akaba yikinjemo undi mupira w'umukara, mu muhanda hakaba harimo umuntu uri gutambuka wikoreye umufuka ku rutugu.

Igikoresho kifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro, iki gikoresho kikaba gisize irangi ry'umutuku, kikaba gifite imipira yifashishwa mu gusohora ibizimya umuriro biri mu ibara ry'umukara.

Icyumba gisize irangi ry'umweru, ku rukuta hakaba hariho kimwe mu bikoresho byifashishwa barimo barazimya inkongi y'umuriro, kikaba gifite ibara ry'umutuku.

Abapolisi, b'igihugu cy'u Rwanda, bambaye impuzankano, bakaba bahagaze, kuri iyo mpuzankano yabo ku kaboko hakaba hariho, ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda.

Abapolisi babiri bashinzwe umutekano mu muhanda, imbere yabo hakaba hari ipikipiki ifite ibara ry'umweru umwe akaba arimo arayireba.

Umupolisi ushinzwe umutekano wo mu muhanda, imbere ye hari imodoka ifite ibara ry'umweru, akaba afite igikoresho cyifashishwa mu gusuzuma uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga.

Imodoka ziparitse imbere y'igorofa ririho icyapa cyerekana ko ari aho polisi itangira ibizami by'umuco by'agateganyo, gikorerwa ku ikoranabuhanga.

Ibikoresho bibiri byifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro, byombi bikaba bifite ibara risa umukara bikaba biteretse mu cyumba gishashemo amakaro.

Icyumba gisize irangi ry'umweru, gishashemo amakaro, ku rukuta hakaba ari ho igikoresho cyifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro, gisize irangi ry'umutuku.

Umupolisi ushinzwe umutekano mu muhanda, imbere ye hakaba hari imifuka ibiri y'amakara, hakurya hakaba hari icyapa kibwira abantu guhagarara.

Ibikoresho bibiri byifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro. Igikoresho kimwe kikaba gifite ibara ry'umutuku, ikindi gifite ibara ry'umweru, munsi gifite ibara ry'umutuku hakaba hateretse indobo ishinzwe gushyirwamo imyanda.

Abanyeshuri barimo kwigishwa na polisi uburyo wazimya inkongi y'umuriro, bumwe muri ubwo buryo hakaba harimo ukuntu wazimya umururiro watewe na gaze,

Umupolisi ushinzwe umutekano wo mu muhanda, umupolisi imbere ye hakaba hari umumotari uri kuri moto, umumotari akaba yambaye ingofero y'umutuku, imbere y'uwo mupolisi kandi hakaba hahagaze imodoka ifite ibara ry'umweru.

Igorofa rikoreramo ikigo cy'igihugu gishinzwe ubugenzacyaha, iri gorofa imbere rikaba rifite ubusitani, ikindi iri gorofa imbere yaryo hakaba hari imodoka zihagaze z'icyo kigo gishinzwe ubugenzacyaha.

Ibikoresho bibiri byifashishwa mu kuzimya inkongi y'umuriro, ibi bikoresho byombi bikaba biri mu ibara ry'umutuku, inyuma yabyo hakaba hari ibikarito byajemo ibikoresho bikaba bifite imipira ishinzwe gutwara ibyifashishwa mu kuzimya umuriro, isa n'umukara.

Umugabo wambaye ikote ry'umukara wicaye mu ntebe y'umukara irimo imisego begamamo, mu mpande ze hakaba hari amabendera muri yo hakaba harimo rimwe ry'igihugu cy'u Rwanda.

Icyumba cy'inama, muri icyo cyumba hakaba harimo abantu bicaye mu ntebe zifite imisego zisa umukara, imbere yabo hakaba hari ameza, kuri ayo meza hakaba hariho za mudasobwa.

Umuyobozi w'igihugu cy'u Rwanda aho yari ari kwiyamamaza, abanyamuryango ba FPR Inkotanyi bakaba baje kumureba, bakaba bafite amabendera y'uwo muryango, umukuru w'igihugu akaba yambaye umupira uri mu ibara ry'umukara.

Umugore wicaye mu cyumba cy'inzu, wicaye mu ntebe irimo imisego isa umweru, akaba yambaye ikanzu y'umweru ndetse n'amataratara.

Umugabo wambaye ikote ry'ubururu n'ipantaro y'ubururu, umugabo akaba yarateretse umusatsi umugabo akaba yambaye ishati y'umweru ndetse na karuvati akaba yicaye.

Umugore wambaye amadarubindi, wicaye mu ntebe y'umukara ifite imisego, umugore akaba yambaye ikote ry'umukara ndetse n'ishati y'ubururu, akaba yambaye n'isaha mu kaboko.

Abantu benshi barimo baramamaza umuryango Efuperi Inkotanyi bakaba bambaye imipira y'uwo muryango ndetse n'ingofero zawo, bakaba bombi bamanitse amadarapo y'umuryango Efuperi Inkotanyi.

Umugore wicaye mu biro, uyu mugore akaba yicaye ku ntebe isa n'umukara begamamo, imbere ye hakaba hari ibikoresho by'indangururamajwi. Uyu mugore akaba yambaye amaherena ku matwi, akaba arimo aravuga.

Umuyobozi w'igihugu cy'u Rwanda, azamuye akaboko k'iburyo arimo arasuhuza abantu, akaba yambaye umupira w'umweru, ingofero y'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara, inyuma ye hakaba hari abashinzwe kumucungira umutekano, bambaye impuzankano y'umukara.

Umugore ndetse n'umugabo barimo kurahira bombi bakaba barimo baravugira mu nsakazamajwi, bakaba bafashe ku ibendera ry'igihugu. Buri wese akaba azamuye ikiganza cye cy'iburyo.

Abantu bahagaze ku murongo muri abo bantu hakaba harimo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda aho muri abo bantu harimo abagore bambaye imikenyero ndetse n'abagabo bambaye amakoti n'amapantaro muri ayo makoti bakaba bambariyemo amashati y'umweru na za karuvati.

Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda urimo kurahira, imbere ye akaba ari ibendera ry'igihugu, akaba yambaye ikote ry'umukara n'ipantaro y'umukara, iruhande ye hakaba hahagaze umugore we.

Abagabo bicaye mu ntebe z'umukara zirimo imisego begamamo, imbere yabo hakaba hari ameza asa n'umuhondo, kuri yo hakaba hariho indangururamajwi ndetse na za mudasobwa.

Icyumba cyicayemo abantu benshi imbere yabo hakaba hari umugabo uri kuvugira mu ndangururamajwi uzamuye akaboko ke k'ibumoso, wambaye ikoti ry'umukara, imbere y'abo bantu hakaba hari ameza ateretseho amacupa arimo ibyo kunywa.

Umugore wambaye amadarubindi n'ikote ry'ubururu, akaba yicaye mu ntebe y'umukara, begamamo, imbere ye hakaba hari ameza ateretseho amazi yo kunywa ari mu icupa ndetse akaba ariho n'insakazamajwi.

Abagabo bicaye mu nzu mberabyombi, abo bagabo hakaba harimo abambaye amataratara aho umwe muri bo yambaye ikote ry'ubururu, ishati y'umweru, bakaba bicaye mu ntebe z'imifariso, izo ntebe zikaba zisa ubururu.

Abantu batatu bahagaze umwe yambaye impuzankano ya polisi y'u Rwanda undi yambaye umupira w'umweru yambaye amadarubindi y'umukara ndetse afite n'agakapu ku rutugu k'umutuku.

Umugabo wambaye ikoti ry'ubururu, karuvati y'umutuku ishati y'umweru, imbere ye hakaba hari mudasobwa isa n'umukara, hakaba hari nindangururamajwi.

Abagabo babiri bicaye mu biro bakaba bicaye mu ntebe z'imfatizo zifite ibara ry'umukara, abo bagabo bakaba bambaye amakoti y'umukara bombi, imbere yabo hakaba hari indangururamajwi, hakaba hateretse amacupa arimo ibyo kunywa ku meza imbere yabo.

Abantu bicaye mu ntebe z'umukara begamamo, imbere yabo hakaba hari ameza arambuyeho igitambaro kirimo ibara ry'umukara ndetse n'umweru, muri abo bantu hakaba harimo abagabo babiri bambaye ingofero ndetse n'amataratara.

Abantu bicaye mu biro, abo bantu inyuma yabo hakaba hari amabendera abiri, rimwe akaba ari ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda, abo bantu bombi bakaba bicaye mu ntebe z'umukara, z'imisego, imbere yabo hakaba hari ameza asize irangi ry'umuhondo, bakaba bafite indangururamajwi imbere yabo ku meza, ndetse n'amacupa arimo amazi, na za mudasobwa.

Umuhanda urimo kugendamo imodoka y'ikamyo ifite ibara ry'umweru, imbere aho umuyobozi yicara hakaba hari itara ryaka mu ibara ry'icunga rihishije.

Amapikipiki ari kugenda mu muhanda, imwe ikaba ihetse umuntu, indi ikaba itwara imizigo, aho itwara imizigo ifite ibara ry'ubururu ndetse inyuma ahajya imizigo hakaba harambuyeho ihema ry'umukara, zombi zikaba ziri kugenda mu cyerekezo kimwe.

Imodoka y'ikamyo, irimo iragenda mu muhanda, ikaba ifite ibara ry'ubururu, aho umuyobozi yicara, nyuma ahajya imizigo hakaba ari igikoresho gisa n'umweru kijyamo imizigo, iruhande rwayo hakaba harimo haratambuka ipikipiki iri mu ibara ry'ubururu itwara imizigo.

Umuhanda uri kugendamo ikinyabiziga cyo mu bwoko bw'imodoka itwara imizigo ikaba ifite ibara risa n'umweru.

Imodoka zirimo kubisikana mu muhanda, imwe ikaba ifite ibara ry'icyatsi n'umukara, indi ikaba ari itwara abagenzi mu buryo bwa rusange ifite ibara ry'umweru.

Imodoka itwara abantu mu buryo bwa rusange, irimo iragenda mu muhanda, ikaba isa umweru, mu mpande harimo amagambo ndetse n'imibare byanditseho.

Imodoka igiye kwinjira mu muhanda, iyi modoka ikaba ifite ibara ry'umweru; inyuma hakaba harimo imizigo ihambirije ikiziriko.

Imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ziri kugenda mu muhanda, zikaba ari ebyiri zombi zifite ibara ry'ubururu ndetse n'iry'umweru mu mpande.

Umuhanda uri kugendamo imodoka itwara imizigo, ikaba ifite ibara ry'umweru, inyuma abarya imizigo hakaba harambuyeho ihema iri mu ibara ry'umukara.

Imodoka y'ikamyo iri kugenda mu muhanda, ikaba ifite ibara ry'umweru, ku rugi hakaba handitseho amagambo ari mu ibara ry'umutuku.

Umuhanda uri kugendamo ibinyabiziga muri byo hakaba harimo imodoka, ndetse na moto, imodoka imwe ikaba ifite ibara ry'umweru inyuma hakaba hicayemo umuntu.

Imodoka y'ikamyo iri kugenda mu muhanda, ikaba ifite ibara ry'umweru, hejuru hakaba hariho amahema yifashishwa mu gutwikira imizigo ipakiye.

Imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, imodoka ikaba ihagaze iruhande y'akazu kariho ibirango by'umutuku, iyi modoka ikaba ifite ibara ry'umweru.

Amapikipiki atwara imizigo, afite ibara ry'ubururu, akaba ahagaze ku murongo, hakurya hakaba hari icyapa cyamamaza gifite ubuso bw'icyatsi.

Ikinyabiziga cyo mu bwoko bw'ipikipiki kiri kugenda mu muhanda, ikinyabiziga kikaba gifite ibara ry'ubururu, kikaba gihetse imizigo, iyo mizigo ikaba itwikirije ihema ry'ubururu.

Amapikipiki ahagaze ahabugenewe, aya mapikipiki akaba ashinzwe gutwara imizigo aho ibanza ifite ibara ry'umweru andi akurikiyeho akaba afite ibara ry'ubururu.

Umumotari uhagaze mu muhanda wambaye ingofero y'umutuku, afite n'indi ku kaboko isa n'ubururu, inyuma ye hakaba hari inzu isize irange ry'icyatsi.

Imodoka ifite ibara ry'umweru, iyo modoka ikaba iri kugenda mu muhanda w'ibisate bibiri hagati na hagati muri uwo muhanda hakaba haciyemo umurongo w'ibara ry'umuhondo akaba ari umurongo ucagaguye.

Imodoka iri kugenda mu muhanda, akaba ari imodoka itwara imizigo, iyo modoka ikaba isa umweru, muri iyo modoka ahajya imizigo hakaba harimo umuntu wambaye umwambaro usa n'ubururu n'ingofero y'umweru.

Imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, iyi modoka ikaba irimo iragenda mu muhanda akaba ari imodoka ifite ibara ry'umweru.

Imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ikaba irimo iragenda mu muhanda ifite ibara ry'umweru, inyuma yayo hakaba harimo haraturuka indi imbere hakaba hari amatara arimo kwaka.

Ipikipiki itwara imizigo iri kugenda mu muhanda uciyemo umurongo w'umweru ucagaguye, ikaba ifite ibara ry'ubururu, inyuma ahajya imizigo hakaba haziritseho ingofero y'umutuku.

Umuhanda w'ibisate bibiri, uciyemo umurongo w'umuhondo ucagaguye, ukaba urimo kugendamo imodoka ifite ibara ry'umweru, i ruhande yayo hakaba hari umumotari uhetse umugenzi wambaye ingofero y'umuhondo.

Umumotari utwaye umugenzi aho umuyobozi w'ikinyabiziga yambaye ingofero y'umutuku, umugenzi akaba yambaye ingofero y'umuhondo, imbere yabo hakaba hari umuhanda w'abanyamaguru, uwo umuhanda ukaba ushushanyijemo imironko yo mu ibara ry'umweru.

Imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ifite ibara ry'ubururu n'umweru, iruhande yayo hakaba harimo haratambuka umugabo wambaye ipantaro y'umutuku, hakaba hari n'umugore wambaye ikanzu y'umukara witeze n'igitambaro uri iruhande y'iyo modoka.

Imodoka yo mu bwoko bw'ikamyo, iyi modoka ikaba irimo kugenda mu muhanda, iyo modoka ikaba iri mu ibara ry'icyatsi, iruhande y'iyo modoka hakaba hari umuntu utwaye igare.

Ipikipiki iri kugenda mu muhanda, iyo kugipiki ikaba ifite ibara ry'ubururu, ndetse ikaba itwara imizigo, inyuma ahajya imizigo hakaba hatwikirije ihema risa n'ubururu.

Umuhanda uri kugendamo ibinyabiziga, bimwe muri byo hakaba arimo imodoka itwara abagenzi mu gihugu bwa rusange ifite ibara ry'umweru, iruhande yayo hakaba hari indi icanye amatara y'imbere iri mu ibara ry'umweru.

Ipikipiki itwara imizigo, ifite ibara ry'umweru, ikaba irimo iragenda mu muhanda w'ibisate bibiri, uciyemo umurongo w'umweru, ucagaguye, inyuma yayo hakaba hari imodoka ifite ibara ry'umweru.

Imodoka yo mu bwoko bw'ikamyo, akaba ari imodoka itwara imizigo, iyi modoka ikaba iri kugenda mu muhanda, imbere aho umuyobozi yicara hakaba hasize irangi ry'icyatsi, inyuma ahari imizigo hakaba hatwikirije ihema risa n'umweru.

Imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange ifite ibara ry'umweru iri kugendera mu muhanda, ikaba irimo irabisikana na moto ifite ibara ry'umutuku.

Imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange. Iyi modoka ikaba ifite ibara ry'umweru, iruhande yayo hakaba hahagaze umugabo wambaye ipantaro y'umukara.

Imodoka y'ikamyo iri kugenda mu muhanda ifite ibara ry'umutuku, ikaba irimo irabisikana n'abanyamaguru babiri, umwe wambaye umwambaro w'ubururu n'undi wambaye umwenda w'akazi usa umuhondo.

Imodoka, ya fuso iri kugenda mu muhanda, w'ibisatere bibiri, mo hagati uciyemo umurongo w'umweru ucagaguye. Iyo modoka ikaba ifite ibara ry'umweru.

Imodoka itwaye imizigo, iyi modoka ikaba ifite ibara ry'umweru, aho iyo mizigo iri mu mifuka isa umweru. Iyo mizigo ikaba itwikije ihema ry'ibara ry'umukara.

Imodoka zishinzwe gutwara abagenzi mu buryo bwa rusange izi modoka hakaba harimo imwe ifite ibara ry'umweru n'utundi tubara twa mpande enye tw'icyatsi mu mpande imbere yayo hakaba hari indi ifite ibara ry'icyatsi.

Cyo mu bwoko bw'ikamyo iri mu muhanda, imodoka ikaba ifite ibara ry'umweru ikaba ifite n'ikigega inyuma, iyi modoka ikaba iri kugenda mu muhanda inyuma yaho hakaba hari ibinyabiziga bya moto bikurikiye.

Umumotari uri kugenda mu muhanda, umumotari akaba afite ipikipiki, ipikipiki ikaba ifite nimero iyiranga iri mu buso bw'umuhondo yandikishije amabara y'umutuku, umumotari akaba yambaye ingofero y'umukara.

Imodoka itwara imizigo, iyi modoka ikaba iri kugenda mu muhanda, ikaba ifite ibara ry'icyatsi, inyuma ahajya imizigo, hakaba hatwikije ihema risa n'umukara.

Umuhanda urimo amagare y'abanyonzi, ayo magare akaba ariho imisego, akaba ari amagare atatu, aho rimwe muri ryo ririho umunyonzi wicaye inyuma aho abagenzi bicara.

Ikamyo iri kugenda mu muhanda ikaba isize irangi ry'umweru, imbere aho umuyobozi yicara inyuma ahajya imizigo hakaba hasize irangi risa ubururu, ririmo ikimenyetso cy'umweru.

Imodoka yo mu bwoko bw'ikamyo, iri kugenda mu muhanda, akaba ari igihe cya nijoro, iyi modoka ikaba icanye amatara ndangaburumbarare n'amatara ndangamubyimba, uwo muhanda ukaba urimo umurongo ucagaguye ufite ibara ry'umweru.

Igare ripakiye umuzigo, iryo gare rikaba rifite umuyobozi uri kurisunika, imbere y'wo muyobozi hakaba hari guturuka imodoka ifite ibara ry'umweru.

Umuhanda uri kugendamo imodoka y'ikamyo, imodoka ikaba ifite ibara ry'umutuku. Inyuma y'imodoka hakaba hari n'indi modoka itwara abantu mu buryo bwa rusange ifite ibara ry'umuhondo.

Umuhanda uri kugendamo ipikipiki itwara imizigo ifite ibara ry'umweru, ikaba ibisikanye n'ikamyo, ipakiye matera zitwikije ihema risa n'ubururu.

Imodoka iri kugenda mu muhanda, iyo modoka ikaba iri mu bwoko bw'imodoka zitwara imizigo, Imodoka ikaba ifite aho umuyobozi yicara hasa icyatsi inyuma hari imizigo hakaba hatwikije ihema ryo mu ibara ry'ubururu.

Inyubako abantu bicaramo, isakaje amabati, hakaba hari n'inkingi z'ibyuma, zisize amarangi, asa ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru kirimo ibyatsi hasi, kikaba kirimo n'amazamu akoze mu byuma bisize irangi ryumweru.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, iyo nzu ikaba ifite amabati ayisakaje asa n'ibara ry'umutuku, iruhande y'iyo nzu hakaba hari igikoresho cyifashishwa mu gufata insinga zitwaye umuriro w'amashanyarazi.

Icyapa cyo mu bwoko bw'ibyapa bimenyesha iki cyapa kikaba kiri mu ishusho ya mpandeshatu kikaba gifite umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umuhondo, n'ikirango cy'umukara.

Umuhanda w'ibisate bibiri, uciyemo umurongo w'umuhondo ucagaguye, hakurya y'umuhanda hakaba hari icyapa, gifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'umweru, ubuso, bw'ubururu n' ikirango cy'umweru.

Icyapa gifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'umukara, ubuso bw'umweru, kikaba cyanditsemo amagambo ari mu ibara ry'umukara.

Icyapa cyo mu bwoko bw'icyapa bimenyesha, kakaba ari cyapa kirimo ishusho ya mpandeshatu, ubuso bw'umweru, umuzenguruko w'umutuku, ikirango cy'umukara, icyo cyapa inyuma yacyo hakaba hari ikindi cyapa cyerekana ibyerekezo.

Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku ndetse n'ubuso bw'umweru, kikaba kirimo ikimenyetso kiri mu ibara ry'umukara.

Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru, kikaba gishushanyijemo ikimenyetso kiri mu ibara ry'umukara.

Icyapa gifite ishusho ya mpandeshatu, kumuzenguruko w'umutuku, n'ubuso bw'umweru, kikaba kirimo ikirango gisa umukara.

Icyapa cy'u bwoko bw'ibyapa bimenyesha, iki cyapa kikaba gifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'umweru, ubuso bw'ubururu ndetse n'ikirango cy'umukara.

Igipangu giteyeho icyapa kiri mu ishusho yamande enye, umuzenguruko w'umukara, ubuso bw'umweru, kikaba cyanditsemo inyuguti ndetse n'imibare biri mu ibara ry'umukara.

Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku ndetse n'ubuso bw'umweru, kikaba kirimo ikirango, kiri mu ibara ry'umukara.

Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umuhondo, kikaba gishushanyijemo ikimenyetso kiri mu ibara ry'umukara.

Icyapa kiri mu ishusho ya mpandeshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru, ikimenyetso cy'umukara, kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa bimenyesha.

Ibyapa byo mu bwoko bw'ibyapa bimenyesha, aho kimwe kimenyesha ko ari hatambuka abana, ikindi kikaba cyerekana ko, hari ivuriro.

Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku n'ubuso bw'umweru, kikaba gishushanyijemo ikirango kiri mu ibara ry'umukara.

Icyapa gifite ishusho ya mpande enye, kikaba gifite ubuso bw'icyatsi bwanditsemo amagambo afite ibara ry'umweru ndetse n'iry'umuhondo, n'ibirango bifite ibara ry'umweru.

Icyapa cyo mu bwoko bw'ibyapa bibuza, iki cyapa kikaba gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru, n'ikirango cy'umukara. Iki cyapa kikaba kivuga ko nta kinyabiziga cyemerewe guhagarara umwanya munini.

Icyapa cyo mu bwoko bw'ibyapa bimenyesha, iki cyapa kikaba gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru, ikirango cy'umukara.

Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'umweru, ubuso bw'ubururu, kikaba kirimo ibimenyetso biri mu ibara ry'umweru kikaba ari icyapa gitegeka.

Icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru, kikaba kirimo ibimenyetso biri mu mabara y'umutuku, umuhondo ndetse n'icyatsi,

Icyapa gifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'umukara, ubuso bw'umuhondo, iki cyapa kikaba kirimo ikirango kiri mu ibara ry'umukara.

Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku ndetse n'ubuso bw'umweru, kikaba kirimo ikirango, gifite ibara ry'umukara.

Icyapa cyerekana Akarere ka Rusizi, icyo cyapa kikaba kiri mu buso bw'umweru, ishusho ya mande enye, kikaba gifite umuzenguruko w'umukara, kikaba cyandikishijwemo amagambo yo mu ibara ry'umukara.

Icyapa cyo mu bwoko bw'ibyapa bibuza, iki cyapa kikaba gifite ishusho y'uruziga, gifite umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara.

Icyapa kiri mu ishusho ya mpande enye, gifite umuzenguruko w'umukara, ubuso bw'umuhondo ndetse kikaba kirimo ikirango gifite ibara ry'umukara.

Ibyapa bibiri kimwe kikaba gifite ishusho ya mpande enye ubuso bw'umweru umuzenguruko w'umukara kikaba cyanditsemo amagambo asa n'umukara, iruhande yacyo hakaba hari ikindi cyapa gikoze mu ishusho ya mpande enye gifite ubuso bw'icyatsi cyanditsemo amagambo y'umweru n'ikimenyetso cy'umweru.

Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku. ubuso bw'umweru, kikaba ari icyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa bibuza.

Icyapa cyo mu bwoko bwi'ibibuza gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru kikaba kirimo ikirango gisa n'umukara.

Icyapa cyerekana ibyerekezo, iki cyapa kikaba kiri mu ishusho ya mpande enye, ubuso bw'icyatsi umuzenguruko w'umweru kikaba cyandikishijemo amagambo ari mu ibara ry'umweru n'ay'umuhondo.

umudugudu uherereye i remera wubatsemo amazu agiye atandukanye harimo asize irangi ry'umweru n'andi asakaje amabati asize irangi ry'umutuku.

Igorofa risize irangi ry'umweru, iryo gorofa rikaba riparitseho imodoka imbere, aho izo modoka harimo izifite ibara ry'umweru n'izindi zifite ibara ry'umukara.

Umuhanda w'ibisate bibiri muri uyu muhanda mo hagati hakaba haciyemo umurongo ucagaguye uri mu ibara ry'umuhondo, uyu muhanda ukaba urimo gutambukamo ibinyabiziga byo mu bwoko bw'imodoka ndetse na moto.

Inzu igeretse rimwe, ifite amabati y'umutuku, iruhande yayo hakaba hari igipangu, imbere yacyo hakaba ari igikoresho cyifashishwa mu gufata insinga zitwaye umuriro uringaniye w'amashanyarazi, ziwugeza ku baturage.

Amarembo y'inyubako muri ayo marembo hakaba harimo umuntu uri gusunika igare ririho umuzigo, uwo muntu akaba yambaye umupira ndetse n'ipantaro imbere muri icyo kigo hakaba haparitsemo imodoka ifite ibara ry'umukara.

Umudugudu urimo inyubako, muri zo hakaba harimo izubatse mu buryo bw'amagorofa, hakaba harimo n'izindi zisize irangi ry'umweru ndetse n'izisakaje amabati afite ibara ry'umutuku.

Umudugudu utuwe n'abantu benshi, ukaba wubatsemo amazu agiye atandukanye, harimo asize irangi ry'umweru n'andi asakaje amabati asa n'umutuku.

Inyubako y'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere, inyubako ikaba ari igorofa risize irangi ry'umweru ndetse inyuma yaryo hakaba hari andi magorofa maremare.

Inyubako ifite igipangu icyo gipangu kikaba gifite amadirishya asize irangi ry'umutuku, imbere y'icyo gipangu hakaba hari itara rishinzwe kubonesha mu muhanda.

Inzu ikingishije inzugi n'amadirisha bisize irangi ry'umukara, ikaba ifite igipangu cyubakishije amatafari ahiye, inyuma y'ico gipangu hakaba hateye ubusitani.

Umumotari urimo kugenda mu muhanda umu motari akaba atwaye ipikipiki akaba yambaye ingofero y'ubururu iruhande y'umuhanda mu kayira k'abanyamaguru hakaba harimo haratambuka abantu.

Imodoka y'ibara ry'umukara iri kugenda mu muhanda w'ibisate bibiri. Iyo modoka ikaba irimo umuyobozi uri kuyiyobora hakurya y'umuhanda hakaba hari inyubako ifite igipangu kiriho urugi ruteye irangi ry'icyatsi.

Icyanya cyahariwe inganda muri izo nganda hakaba harimo izisakaje amabati y'ubururu ndetse n'izindi zishakaje amabati y'umutuku.

Umudugudu utuwe n'abantu benshi urimo inyubako zigiye zitandukanye, muri izo nyubako hakaba harimo izisakaje amabati asize irange risa umutuku.

Abamotari babiri, umwe akaba ahetse umuntu inyuma, bombi bakaba bafite ingofero z'umutuku, inyuma y'uwo mu motari hakaba hahagaze abagore babiri n'undi muntu umwe urimo gutambuka.

Umuhanda w'ibisate bibiri, muri uwo muhanda hagati hakaba haciyemo umurongo w'umuhondo ucagaguye, uwo muhanda ukaba uri kunyuramo ipikipiki itwawe n'umuntu wambaye ingofero y'umukara.

Inzu iteye amarangi y'umweru, ikingishijwe amaderisha n'inzugi bisize irangi ry'umukara, ikaba ifite igipangu cyubakishije ibyuma bisize irangi ry'umukara.

Umudugudu utuwe n'abantu benshi, uwo mudugudu ukaba urimo inyubako zigiye zitandukanye, akaba ari umudugudu uri muri Kimironko, uyu mudugudu ukaba urimo inyubako zigiye zifite amabati asa umutuku andi asa umukara.

Umudugudu utuwe n'abantu benshi. Wubatsemo inzu zitandukanye, muri zo hakaba hari izisize irangi ry'umweru ndetse hakaba harimo n'izigiye zisakaje amabati asa n'umutuku.

Icyapa kiri mu ishusho ya mpande enye, iki cyapa kikaba gifite umuzenguruko w'umukara, ubuso bw'umweru, kikaba cyanditsemo inyuguti ndetse n'imibare byo mu ibara ry'umukara.

Inyubako igeretse rimwe imbere y'iyo nyubako hakaba hahagaze imodoka ifite ibara ry'umweru, iyo nyubako ikaba ifite igipangu cyubakishije amatafari ya ruriba, iyo nyubako ikaba iteye irange risa n'umweru.

Umuhanda w'ibisate bibiri uyu muhanda ukaba urimo umurongo w'umweru mo hagati ucagaguye, uyu muhanda ukaba urimo kunyura mo ibinyabiziga bigiye bitandukanye aho harimo amapikipiki ndetse n'amagare.

Imihanda ibiri, ishushanyijemo akayira kambukamo abanyamaguru, kakaba gaciyemo imirongo isa n'umweru, mu nkengero z'iyo mihanda hakaba hari ubusitani buyiteyemo indabyo.

Umuhanda uri gutambukamo imodoka ifite ibara ry'umweru, ushushanyijemo akayira abanyamaguru bambukiramo, gashushanyishije imirongo ifite ibara ry'umweru.

Umumotari uhagaze mu muhanda, utegereje ko umunyamaguru atambuka, uwo munyamaguru akaba yambaye imyambaro y'umukara, aho yari arimo gutambuka mu kayira kagenewe abanyamaguru.

Igorofa rirerire risize amarangi y'umweru, ririmo ibirahure, imbere yaryo hakaba hari ubusitani, hakaba hari n'amatara yo ku muhanda ashinzwe kubonesha mu gihe cya nijoro.

Abamotari babiri bari kugenda mu muhanda, bombi bakaba bahetse abagenzi, bakaba bambaye ingofero z'umutuku ndetse umugenzi umwe akaba afite igikarito mu ntoki.

imodoka igiye kwinjira mu muhanda, iyi modoka ikaba ifite ibara ry'umweru, ikaba ihetse imizigo inyuma, iyo mizigo ikaba itwikirije ihema ry'umweru.

umuhanda uri kugendamo imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, iyo modoka ikaba ifite ibara ry'ubururu ndetse n'iry'umweru mu mpande.

Umuhanda uciyemo umurongo w'umweru, ukaba uri kugendamo umumotari wambaye ingofero y'umutuku, ifite n'indi mu kaboko, ku nkengero z'owo muhanda hakaba hahagaze umuntu ufite igare wambaye ikote ry'umutuku.

Umumotari uri kugenda mu muhanda, umumotari akaba ahetse umugenzi, bombi bakaba bambaye ingofero z'umuhondo, bakaba bari ku kinyabiziga gifite ibara ry'umutuku ndetse no hasi hari ikindi gikoresho gishinzwe guha icyo kinyabiziga umuriro gifite ibara ry'umuhondo.

Imodoka ifite ibara ry'umutuku, iyi modoka ikaba irimo kugenda mu muhanda, aho igeze mu kayira kagenewe gutambukamo abanyamaguru.

Umuhanda uri kunyuramo ibinyabiziga byo mu bwoko bw'imodoka na moto, aho moto ari ebyiri zombi zikaba zitwaye abagenzi imodoka zikaba nazo ari ebyiri imwe irimo ibara ry'umweru.

Umuhanda uri kugendamo imodoka y'ikamyo itwara imizigo, ikaba ifite ibara ry'umweru, iyo mizigo ikaba itwikije ihema risa umukara.

Isangano ry'imihanda aho muri iryo sangano harimo amatara ashinzwe gutanga uburenganzira bwo gutambuka, ayo matara akaba harimo arimo gucana umutuku, andi arimo gucana ibara risa n'icunga rihishije.

Imodoka ifite ibara ry'umukara irimo kugenda mu muhanda, ku nkengero z'uyu muhanda hakaba hari ubusitani muri ubwo busitani hakaba harimo ibiti bigiye bitandukanye kimwe muri byo hakaba harimo umukindo.

Imodoka y'ikamyo itwara imizigo iyo modoka ikaba ifite ibara ry'umweru aho umuyobozi yicara, inyuma hajya imizigo hakaba hari igikoresho bashyiramo imizigo gifite ibara ry'ubururu, inyuma yacyo hakaba hari n'ikindi gifite na cyo ibara ry'ubururu.

Umugabo utwaye igare arimo kugenda mu muhanda, uyu mugabo akaba yambaye umupira w'umweru ndetse n'ipantalo y'ikigina, aka wa y'ambaye n'inkweto z'umweru akaba ari kugenda mu muhanda ufite undi unyura hejuru yawo.

Isangano ry'imihanda, aho mu muhanda harimo ibinyabiziga birimo biraza imbere, y'ibyo binyabiziga hakaba harimo bibiri bifite ibara ry'umukara, n'ikindi gifite ibara ry'umweru.

Umumotari uri kugenda mu muhanda uyu mumotari akaba atwaye umugenzi bombi bakaba bambaye ingofero zisa n'umutuku. Umumotari akaba aheretse umugenzi wambaye umupira w'umweru.

Umuhanda uri kugendamo ibinyabiziga, hakaba harimo imodoka ebyiri zirimo kubisikana, imwe ifite ibara ry'umukara, indi ifite ibara ry'umweru, i ruhande ifite ibara ry'umukara hakaba hari umunyonzi utwaye umugenzi, ku igare.

Umuhanda uri kugendamo ipikipiki, ucanye amatara, hakurya y'umuhanda hakaba hari icyapa cyo mu ishusho y'uruziga, gifite umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru n'kirango cy'umukara.

Imodoka ifite ibara ry'umukara, ikaba irimo kwinjira mu muhanda, inyuma yayo hakaba hahagaze umugabo wambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara.

Umuhanda wanditsemo amagambo, ayo magambo akaba yanditse mu ibara risa n'umweru, asobanura ngo komeza.